Imodoka igaragara ikoreshwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, ikaba ikundwaga gukoreshwa n'abashinzwe umutekano.

Abashinzwe umutekano bahuriye hamwe aho bigira hamwe ku buryo babasha kuzimya mu gihe inzu ifashwe n'inkongi y'umuriro.

Abantu benshi cane bahuye n'abashinzwe umutekano, aho bahugurwa uburyo bakwirindira umutekano ndetse n'uburyo batangira amakuru ku gihe.

Umugabo ukoresha igikoresho dukundaga kubona，cane cifashishwa iyo barimo bazimya，ahafashwe n'inkongi y'umuriro.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe baganira ku mibereho yabo, n'uburyo babasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abashinzwe umutekano aho bahuriye hamwe biga uburyo babasha kwirindira umutekano mu gihe inzu ifashwe n'inkongi y'umuriro.

Umugabo ushinzwe umutekano, agaragaza amarangamutima ye n'uburyo abaturage bagakwiye kwirindira umutekano, ndetse batanga amakuru ku gihe.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe bari muri siporo ndetse n'abashinzwe umutekano, aho baberekera kwirindira ubuzima bwabo no kwirindira umutekano kugira ngo babashe kubaho neza cane.

Abagabo badufasha cane mu gucunga umutekano, aho batugira inama ndetse bakatureberera aho twabuze umutekano.

Abagabo benshi cane bahuriye hamwe, abapolisi, abashinzwe umutekano, aho bagaragaza uburyo tugomba gucunga umutekano mu buzima bwacu.

Ndabona ifoto nziza cane igaragaza uruhurirane rw'abantu benshi cane barimo baganira ku byabateza imbere, barimo baganira no ku makimbirane n'uburyo bakemura amakimbirane ,ahantu dukundaga guteranira turi benshi cane.

Abantu benshi cane, abagabo n'abagore bahuriye hamwe, aho dukundaga kuja tuganira ku iterambere ritandukanye kugira ngo tubashe kwibeshaho no kugira imibereho myiza cane.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe baganira uburyo bakwiteza imbere, ndetse n'uburyo bagira imibereho myiza cane. Ibyo bikaba bidufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu benshi cane abagabo n'abagore bahuriye hamwe baganira ku iterambere ryabo rya buri munsi ,aho dukundaga kuja kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane ndetse no kwibeshaho.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe baganira ku mibereho yabo ,baganira ku buzima, baganira ku iterambere kugira ngo babashe kwibeshaho neza cane.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe aho baganira ku iterambere, iterambere ryabo, iterambere ribafashaga kugira imibereho myiza cane .

Abantu benshi cane abagabo n'abagore, aho bahuriye hamwe n'abashinzwe umutekano biga uburyo bakwicungira umutekano, ndetse n'uburyo batangira amakuru ku gihe.

Abantu benshi cane abagabo n'abagore bahuriye hamwe baganira ku mibereho ya buri munsi, imibanire ndetse n'uburyo bakwiteza imbere.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe ahakundaga guhurira abantu, baganira ku mibereho yabo ndetse n'uburyo bakwiteza imbere.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe n'abayobozi baganira ku bibazo bitandukanye by'iterambere, dukundaga kubikora cane mu majaruguru iyo dushaka kwiteza imbere.

Mu muco nyayarwanda habagamo inzu z'ibwami ,iyi nzu igaragara hano ikaba igaragara nk'iy'ibwami, yabaga mu ngoro y'ibwami aho umwami yabaga.

Igikoresho dukoreshaga mu bworozi aho tugikoreshaga turimo dukama inka, amata adufashaga kugira imibereho myiza cane ndetse n'iyo uri kunyweramo wumva biryoshye cane.

Intore zirimo zibyina, intore zigaragaza umuco nyarwanda aho umuco nyarwanda wadufashaga kugira ubuzima bwiza cane ndetse tukagira n'imibanire myiza cane.

Umugabo ugaragaza umuco nyarwanda ,uko ibwami babaga bameze, umuco nyarwanda umeze neza cane, udufashaga gusigasira ndetse no kumenya ibyagezweho.

Abategarugori baboha ibikoresho dukenera mu buzima bwacu aho bishimye cane ,umurimo udutunze mu majaruguru cane.

Uguntu umuco nyagwanda ugaragara ibwami, aho abami bakundaga kwambara nka guca igihe bari mu ngoro y'ibwami, ndetse no mu gihe bari barimo mu nteko y'abaturage.

Igikoresho dukoreshaga mu buzima bwacu bwa buri munsi kigaragaza umuco nyarwanda icuho dukoreshaga dusangira umusururu ,inzoga iyo twagize ibirori iwacu.

Intore, intore zigaragaza umuco nyagwanda aho batubyiniraga mu birori bitandukanye, turi kwishimana na bagenzi bacu, twishimana n'abo tuvukana ndetse n'abo dutuye mu gace kamwe.

Abari b'u Rwanda bagaragara bishimye cane，bikoreye uduseke ndetse n'abasore b'intore， aho bagaragara bishimye cane， ibi bigaragaza umuco nyarwanda， aho baba babyinira abantu，mu birori bitandukanye.

Akanagakoresho bakoreshaga mu muco wa kinyarwanda, bita akuho akuho bagakoreshaga barimo banywa umusururu ibijyanye n'umuco wa kinyarwanda basangira amasaka igihe yabaga yeze.

Abagabo n'abagore bishimye cane, bagaragara mu muco nyarwanda, aho bikunda kugaragara i bwami cane cane mu muco nyarwanda.

Abagabo bagaragaza umuco nyarwanda, umuco nyarwanda udufashaga kugira imibereho myiza ndetse n'imibanire myiza cane nta guhemukirana, ndetse tukabana neza cane.

Igikoresho dukoreshaga cane mu majaruguru igikoresho twita icoho aho tugikoresha dusangira umusururu, urwagwa ibyo byose bikaba bigaragara cane mu majaruguru.

Ibiryo byiza cyane dukundaga kugaragaza igihe twagize umunsi w'umuganura. Umuganura ukaba uri mu muco nyarwanda, ahodufasha gusabana n'abantu mu buzima bwacu.

Umutego dukundaga gukoresha mu rugo iwacu, ukaba udufashaga gufata imbeba, imbeba zibaga ziri kutwonera mu nzu zikadufasha kugira ngo tuzirukane zitatwonera.

Igikoresho cyitwa umuhoro, umuhoro dukundaga gukoresha iyo turimo dutema ibintu bitandukanye ukaba udufasha kugira ngo dukore akazi byoroshe cane.

Imirimo dukundaga gukora mu majaruguru imirimo yo gukama aho idutezaga imbere cane, tukagira imibereho myiza ndetse tukabona n'amafaranga aduteza imbere cane.

Ndabona umuco wa kinyarwanda, ibi byabaga mu muco wa kinyarwanda kera mu gihe cy'abami. Izi nyogosho ni uburyo bogoshaga abantu mu muco wa kinyarwanda mu gihe cy'abami, zari inyogosho zagaragazaga abantu b'ibwami

Ibibindi bigaragaza umuco nyarwanda, aho tubikoreshaga mu kwakira abantu mu birori tubaga twagize iwacu, bikadufasha kubakira ndetse no gusabana.

Abana abakobwa bahuriye hamwe aho bishimye cane barimo babyina babyina imbyino nyarwanda imbyino nyarwanda zigaragazaga umuco nyarwanda.

Igikoresho cyiza cane dukundaga gukoresha iyo dusangira, ibinyobwa bitandukanye hari umusururu, urwagwa, mbese bigaragaza umuco nyarwanda cane.

Igikoresho c'igisero, aho dukundaga kugikoresha mu muco nyarwanda kugira ngo kidufashe gutwara ibintu cangwa kubika imyaka itandukanye iwacu.

Umugabo wikoreye umuvure, umuvure dukoreshaga iyo turi gukama dushaka umutobe uvuye mu bitoki, mu majaruguru akaba ariwo muco dukoresha.

Ibirago byiza cane bigaragara mu muco nyarwanda aho dukundaga kubiboha bikadufasha kwakira abantu badusuye bakicaraho, ndetse hari n'ababikoresha nk'ibiryamirwa cyangwa se ibyo baryamaho.

Umutegarugori umwari w'u Rwanda ugaragaza umuco aho yambaye umushanana. Umushanana ugaragaza umuco nyarwanda twambaraga twishimye cane.

Igikoresho cy'umuduri, umuduri ukoreshwa mu gucuranga uyu muduri ukaba ukoreshwaga mu muco nyarwanda , abantu bakaba bawucuranga ukabaha umuziki.

Umucecuru wishimye cane witeze urugori, mu kinyarwanda ciza cane, aho bakunda kumwita umutegarugori, bikaba bigaragara mu muco nyarwanda

Abagabo bishimye cane barimo babyina, aho dukundaga guhurira batubyinira twishima mu birori bitandukanye, ibi bikaba bigaragaza umuco nyarwanda.

Ababyeyi bahuriye hamwe barimo guhaha. Bafite ibirago, aho dukunda kuboha ibirago byinshi cyane kugira ngo tujye turabyicaraho mu gihe abantu badusuye.

Abakobwa bagaragara bishimye cyane aho bagaragaza umuco nyarwanda, umuco nyarwanda udufasha kwiteza imbere, ndetse no gusigasira ibyo twagezeho.

Umugabo ugaragaza umuco nyarwanda aho umuco nyarwanda udufashaga kubaho neza ukadufasha kugira imibanire myiza ukadufasha kugira imico myiza cane.

Inka nziza cane zikundaga kugaragara mu muco nyarwanda ,zariho n'abanyeshuri bishimye cane aho bari kureba uko iteye, tukaba tuzitaga inyambo.

Abagabo bishimye cyane, bari kumwe n'intore, abazungu, aho intore zikunda kubyina, mu gihe habaye ibirori bishimye cyane.

Inzu nziza cane igaragaza umuco nyarwanda, aho ibwami babaga babayeho mu ngoro y'ubwami hakundaga kugaragara amazu ameze gutya.

Intore intore zigaragaza umuco, abakobwa bakundaga kubyina, abasore bavagamo intore, aho dukundaga kubyina turi mu birori bitandukanye kugira ngo tubashe kwishima cane.

Ikirago ciza cane kigaragara mu muco nyarwanda ,aho dukundaga kugigira mu rugo iwacu kugira ngo twakire abantu bicareho ndetse tunabakire neza cane.

Abagabo babiri b'intore intore z'u Rwanda. Dukundaga kubona mu muco nyarwanda aho babyiniraga, abantu bishima cane mu birori bitandukanye.

Inzu zigaragaza umuco nyarwanda, aho zakundaga kuba mu ngoro y'ibwami zaturwagamo n'abami, ndetse n'abaja n'abakozi b'ibwami.

Igikoresho gikundwaga gukoreshwa mu mumashanyarazi aho tuba dushaka kugira ngo umuriro uve ahantu hamwe werekeza ahandi.

Igikoresho dukoreshaga mu mashanyarazi, zikoresha kidufashaga gukata insinga z'amashanyarazi ndetse no gufatanya insinga z'amashanyarazi.

Igikoresho gikoreshwaga mu mumashanyarazi, aho tuba dushaka guhuza insinga, kugira ngo tubashe gukora ibintu bitandukanye cane.

Igikoresho dukoreshaga mu mashanyarazi, aho dukoreshaga umuriro kugira ngo tubashe kuvana, umuriro tuwugeza ahandi byoroshe cane.

Igikoresho ciza cane gikoresho dukoreshaga mu mashanyarazi, aho kidufashaga kuvana umuriro hamwe tuwujana ahandi, dukundaga kubikoresha cane mu mashanyarazi.

Igikoresho dukoreshaga mu mashanyarazi, aho kidufashaga kuvana umuriro ahantu hamwe tukerekeza ahandi. Ibyo bikoresho bikaba bidufashaga kubona umuriro byoroshye cane.

Igikoresho ciza cane igikoresho gikoreshwaga n'amashanyarazi aho kiduhaga urumuri tukabasha kubona n'ijoro aho tutabasha kureba neza.

Ndabona igikoresho ciza cane gikoreshwa mu itumanaho, gikoreshwa bahamagara, dukundaga gukoresha mu gihe turi mo guhamagara abantu bari kure batatwegereye, kugira ngo habeho itumanaho.

Igikoresho dukundaga gukoresha mu mashanyarazi aho kidufashaga gutambutsa umuriro tuwuvana ahantu hamwe tuwujana ahandi. Ibi bikaba bidufashaga kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza cane.

Igikoresho kigaragara ku ifoto gikoreshwa mu mashanyarazi, aho dukundaga kubibona ahantu bakoresha amashanyarazi, bipima umuriro niba uri kunyuramo cyangwa utari kunyuramo neza.

Ndabona ifoto igaragaza ahantu hameze neza cane, ahantu hari inzu abantu bahuriraho, inzu igaragara nk'ikoraniro aho abantu bahura bagiye kuganira ku bintu bitandukanye ku byabateza imbere mu buzima busanzwe.

Ikigo c'amashuri, ikigo gitanga ubumenyi butandukanye aho abantu bajaga bagiye gushaka ubumenyi butandukanye kugira ngo babashe kwibeshaho.

Ndabona inzu igaragara neza cane, inzu igaragaza aho bacururiza amata, ibindi bitandukanye by'imirire kugira ngo abantu babashe kugira imirire myiza cane babeho neza cane.

Inzu ihurirwaho n'abantu benshi cane ibikorwa remezo duhuriragamo tugiye kuganira ku iterambere ryacu ndetse no gukemura amakimbirane hagati yacu.

Abagabo basana umuhanda n'ibikorwa remezo by'igihugu, aho dukundaga kubibona mu mihanda yagize ikibazo, bashaka kugira ngo tuje tunyuramo neza cane.

Inzu nziza cane ihuriragamo abantu benshi cane aho baba bagiye gusenga, ndetse biteza imbere mu mibereho no mu myifatire.

Umuhanda mwiza cane，ibikorwaremezo，aho dukundaga kunyura， tugenda dutwaye ibintu， amazu meza cane atuwemo n'abantu.

Inzu ihurirwamo n'abantu benshi cane, aho ari igororwa, abantu baba bagiye kugororwa, bakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bahinduke mu mico no mu myitwarire.

Ikigo c'amashuri ahahuriraga abana abantu baje gufata ubumenyi butandukanye kugira ngo bazabashe kwibeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu ihurirwagamo n'abantu benshi cane aho baba bagiye gufata ubumenyi butandukanye kugira ngo babashe kugira imibereho myiza cane.

Inzu nziza cane, dukundaga guhuriramo turi abantu benshi cane, aho tujaga tugiye gusenga ndetse no kuganira ku mibereho yacu ya buri munsi.

Inzu duhuriragamo n'abantu benshi cane, duhuriragamo turi kwiga iyobokamana, urusengero rudufashaga kwiteza imbere mu myumvire ndetse no mu mico n'imyitwarire.

Inzu nziza cane, ikigo c'amashuri, aho tujaga tugiye gufata ubumenyi butandukanye buzadufasha kwibeshaho mu mibereho yacu ya buri munsi.

Abantu benshi cane ndetse n'ibinyabiziga, aho ibyo binyabiziga birimo gufasha gukora umuhanda ndetse n'abantu bakora ibikorwaremezo, kugirango ngo tubashe kugira imihanda myiza cane.

Abagabo barimo bakora imirimo y'ubwubatsi, aho iyo mirimo y'ubwubatsi ikundaga kuduteza imbere cane tukagira imibereho myiza cane.

Abanyeshuri beza cane bahuriye hamwe bashaka ubumenyi butandukanye, buzababeshaho mu buzima bwo hanze ndetse biteza imbere.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe aho dukundaga guteranira dukemura amakimbirane, kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagabo n'abagore bahuriye hamwe mu nteko y'abaturage，aho dukundaga guhurira， dukemura ibibazo bitandukanye， ndetse no kugira ngo twiteze imbere mu buzima bwacu.

Abantu bahuriye hamwe bakemura amakimbirane， aho dukundaga kugira ubuyobozi budufashaga kugira imibanire myiza， ndetse no kubana mu mahoro.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe. Abagabo n'abagore ndetse n'abayobozi, aho baje gukemura amakimbirane ndetse no kwiga uburyo babana mu mibereho myiza no mu mahoro, bafatanya muri bimwe bya buri munsi.

Iki ni icyogajuru kiri mu kirere gifitwe na kompanyi y'u Rwanda, gishinzwe gutwara abantu mu kirere, ni ko kigaragara.

Imodoka nziza cane itwaye ibiribwa. Ibyo biribwa bikaba ari imbuto dukundaga kuzirya kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane.

Ibinyabiziga byiza cane ,ibinyabiziga bikoreshwaga mu gutwara abantu ndetse n'ibintu aho bibaga bibakuye mu gace kamwe biberekeza ahandi, aho batabasha kugera n'amaguru.

Ibinyabiziga byinshi cane , ibinyabiziga bitwaraga abantu dukundaga gutega tuva mu gace kamwe twerekeza mu kandi.

Abantu benshi cane，bahuriye hamwe aho dukundaga kuja gutegera amamodoka， dukundaga kuhita muri gare， tuvuye mu gace kamwe twerekeza mu kandi.

Umugabo uri ku igare, igare dukundaga gukoresha dutwara ibintu, ibihingwa tubivana hamwe tubyerekeza ahandi. Imodoka idufashaga kuva mu gace kamwe tubererekeza mu kandi.

Imodoka dukundaga kubona mu muhanda, aho zitwaraga abantu zibavana mu gace kamwe ziberekeza ahandi aho batabasha kugera.

Abagore bari mu bwato ubwato bwiza cane, aho barimo bagasha ibi tubibonaga mu kiyaga co mu majaruguru muri Burera na Ruhondo.

Amagare dukoreshaga iyo turi gutembera mu mihanda itandukanye, twishimye nk'umuryango dushaka gutembera mu bice bitandukanye.

Ibinyabiziga binini cane, ibinyabiziga bitwaraga abantu, bibakura mu gace kamwe biberekeza ahandi bidufasha kuva mu duce tumwe na tumwe aho tutabasha kugenda n'amaguru.

Umugabo n'umugore, bishimye cane, bafite amagare. Amagare, adufashaga mu butembere, kugira ngo twishime, ndetse tunezererwe cane.

Ibinyabiziga byinshi cane aho dukundaga kuja gutegera dukundaga kwita muri gare ibyo binyabiziga bikaba bidufashaga kuva mu gace kamwe twerekeza mu kandi aho tutabasha kugenda n'amaguru.

Ikinyabiziga dukundaga kubona mu muhanda cane gitwara abantu， kibavana mu gace kamwe kiberekeza ahandi.

Abantu bishimye cyane, aho bari mu bwato bambuka, aho mu majaruguru dukunda kubibona i Burera no muri Ruhodo mu kiyaga.

Amamodoka menshi cane agaragara aho dukundaga gutegera, tugiye mu bice bitandukanye, akaba adufashaga kwihuta ndetse no kugera aho dushaka kugera byoroshye.

Amamodoka menshi cane ibinyabiziga dukundaga kubona ahahuriye abantu benshi, cane barimo batega bava mu gace kamwe berekeza ahandi.

Umugabo n'umugore bishimye cane bafite amagare, aho aya magare akunda gukoreshwa mu bukerarugendo cangwa batembera bishimisha cane.

Ibinyabiziga byinshi cyane, bigaragara aho duhuriraga tugiye gutega, tugiye mu bice bitandukanye kugirango tubashe kugerayo vuba kandi byoroshye.

Imodokaka itwarwa n'abantu, ikinyabiziga kidufashaga mu gutwara ibintu bitandukanye, zikazaba zidufasha mu gutwara ibintu zibivana ahantu hamwe zibijyana ahandi.

Ikinyabiziga ciza cane gikundaga gutwara abantu, natwe dukundaga gutega iyo tuva mu gace kamwe twerekeza mu kandi.

Abantu benshi cyane aho dukundaga guhurira tugiye gushaka ibinyabiziga, ibinyabiziga bidufashaga kuva mu gace kamwe twerekeza mu kandi

Icogajuru dukundaga kubona mu kirere gitwara abantu kibavana mu gace kamwe kiberekeza ahandi.

Ibinyabiziga dukundaga gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi，bidutwarira ibintu bitandukanye， ibikoresho bitandukanye， tuba dukeneye mu buzima bwacu.

Ibinyabiziga byinshi cane bidufashaga kuva mu duce tumwe twerekeza mu tundi aho tutabasha kugera n'amaguru.

Imodoka nziza cane idufashaga gukora ingendo, tuva mu gace kamwe twerekeza ahandi, aho tutabasha kugera n'amaguru.

Ikinyabiziga dukundaga gukoresha mu buzima bwacu, ikinyabiziga kidufashaga gutwara ibintu tubivana ahantu hamwe tubyerekeza ahandi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imodoka itwaye abantu benshi cane, aho bahateze bashaka kuva mu gace kamwe berekeza mu kandi. Iminyabiziga bidufashaga kuva ahantu hamwe twerekeza ahandi.

Icogajuru dukundaga kwita indege, gifasha abantu bakoraga ingendo zo mu kirere baba bagiye kure cane.

Ndabona ahantu heza cane, hari igikoresho gitwara abantu, icyo gikoresho cyitwa indege gitwara abantu. Iki cyogajuru kigatwara abantu mu kirere kibavana hamwe kibajyana ahandi.

Abantu benshi cane bari gukora umurimo w'ubutwazi, aho moto, ibinyabiziga bidufashaga gutwara abantu babakura mu gace kamwe baberekeza mu kandi gace.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho dukundaga kuja guhurira, tugiye gutega amamodoka, ibinyabiziga bituvana mu gace kamwe bitwerekeza mu kandi.

Abantu bishimye cane bahuriye hamwe, barimo bakora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri, idufashaga kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza.

Umwari uri ku kibuga c'umupira, aho bakoreraga imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza cane.

Ikibuga ciza cane ikibuga gikorerwagaho imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri idufasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza cane.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe bari mu myitozo ngororamubiri, aho imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira imibereho myiza cane ndetse tukagira n'ubuzima bwiza cane.

Abakinnyi bishimye cane bahuriye hamwe barimo bakora imyitozo ngororamubiri, bakina umupira w'amaguru aho dukundaga kuwukina kugira ngo tugire ubuzima bwiza cane.

Abari bahuriye hamwe bakora imyitozo ngororamubiri, aho imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira imibereho myiza cane ndetse n'ubuzima bwiza cane.

Umwari urimo ukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo idufasha kugira ubuzima bwiza cane, aho dushishikarizwa kuyikora mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu benshi cane bahuriye ahantu hamwe, aho dukundaga gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tugire imibereho myiza cane.

Amazi meza cane, adufashaga gukora imyitozo ngororamubiri. Abantu bajagamo bakoga bakagira ubuzima bwiza cane.

Umusore wishimye cane, urimo akina umukino w'amaboko, umukino w'amaboko ukundaga kuduteza imbere ndetse tukagira ubuzima bwiza cane.

Abari bishimye cane barimo bakora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri idufasha kugira ubuzima bwiza cane.

Abakinnyi b'umupira w'amaboko , umukino w'amaboko aho bagaragara bishimye cane ndetse bakora imyitozo ngororamubiri , imyitozo ngororamubiri idufasha kugira ubuzima bwiza cane.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe aho barimo bakora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira ubuzima bwiza cane ndetse tukagira n'imibereho myiza cane.

Abategarugori bahuriye hamwe bakora imyitozo ngororamubiri, aho imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira imibereho myiza cane, ndetse tukishima mu mibereho yacu.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe muri siporo, mu myitozo ngororamubiri, aho imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza cane.

Ikibuga dukundaga gukoresha mu gihe turi mu myitozo ngororamubiri, aho iki kibuga gikundaga gukoreshwa n'abantu bakina imikino y'amaboko.

Ubwo ari umukobwa wishimye cane ugaragara ari mu myitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira ubuzima bwiza cane.

Abagabo bahuriye hamwe bishimye cane, bagiye gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira imibereho myiza cane, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ndabona ifoto nziza cyane igaragaza umuntu arimo akora imyitozo ngororamumubiri, kandi tuzi ko imyitozo ngororamubiri zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane.

Abantu benshi cane , abasore bahuriye hamwe barimo bakora imyitozo ngororamubiri barimo bakina umupira w'amaboko aho ubafashaga kugira ubuzima bwiza cane.

Umukobwa ugaragara ari gukora imyitozo ngororamubiri arimo koga, aho mu majaruguru natwe dukundaga gukora imyitozo ngororamubiri, kugira tugire ubuzima bwiza cane.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe ku kibuga barimo bakora imyitozo ngororamubiri bakina imikino y'amaboko, aho iyo mikino y'amaboko idufashaga kugira imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza cane.

Umugabo ugaragara ari mu myitozo ngororamubiri, mu mikino y'amaboko, aho dukunda kuyikina kugira ngo tugire imibereho myiza cyane.

Abana bishimye cane bari mu myitozo ngororamubiri, aho barimo bakina umukino w'amaboko, uyu mukino ukaba mwiza cane.

Abagabo bagaragara bari mu myitozo ngororamubiri, aho imyitozo ngororamubiri idufashaga kugira ubuzima bwiza cane, ndetse no kugira imibereho myiza cane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa, aho bari mu myitozo ngororamubiri. Imyitozo idufashaga kugira ubuzima bwiza cane.

Abakinnyi benshi cane，bari mu myitozo ngororamubiri，aho bafite imipira y'amaboko，baba bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza cane.

Ifoto igaragaza abantu bari mu myitozo ngororamubiri, aho baba bahuye kugira ngo bagire imibereho myiza cane, ndetse bagire n'umubano mwiza cane.

Abantu benshi cyane bahuriye mu muhanda aho bari mu myitozo ngororamubiri muri siporo, aho siporo idufashaga kugira imibereho myiza cane ndetse n'ubuzima buzira umuze.

Iyi foto iragaragaza abana, urubyiruko, ndetse n'abantu bakuze barimo mu mikino ngororamubiri .Iyo mikino ngororamubiri hakaba harimo imikino, y'amaboko bisa naho bari mu gikorwa kigaragaza cyo gutangiza imikino y'ingorororamumubiri.

Abakinnyi benshi cane, bahuriye hamwe ahakundaga kubera imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kugira imibereho myiza cane, ndetse baniteza imbere.

Umupira w'amaboko dukundaga gukina iyo turi mu myitozo ngororamubiri, umupira udutera ibyishimo ndetse iyo twakoze imyitozo ngororamubiri tugiraga ubuzima bwiza cane.

Abagabo n'abasore bishimye cane, abagabo bahuriye hamwe mu myitozo ngororamubiri. Mu mikino y'amaboko aho ikorwa kugira ngo abantu, babashe kugira ubuzima bwiza.

Abasore bahuriye hamwe, aho bagaragara bishimye cane, barimo bakora imyitozo ngororamubiri, bakina umupira w'amaboko, aho uwo mupira udufashaga kugira imibereho myiza cane.